Ikigo cy'amashuri hariho indabyo, hariho n'umucaca, afite n'ikibuga, inyuma hakikijwe n'ibiti byo kuzana umuyaga mwiza wo guhumeka.

N'ino aha iwacu tugira umucaca urimo indabyo. Tukagira n'amashuri, n'ibibuga byo gukiniramo basikete. Tukagira n'amavoka ku bigo by'amashuri, bigatuma abanyeshuri bajya bakora siporo, kubera haba hariho ikibuga cyo gukoreramo basikete.

Amashuri abanyeshuri bibigiramo harimo intebe zo kwicaramo zitondetse mu buryo butandukanye za pipitire abanyeshuri bazicamo neza bakabikamo ibikoresho byabo bazanye ku ishuri:amakayi ,amakaramu ,bakicaraho bakifashisha ku yindi ntebe bari kwandikaho ,bakandikaho neza .Intebe zifite akamaro keza cyane ku banyeshuri biga.

Ninaha iwacu tugira amashuri, iyo bubatse amashuri bubakaho ibibuga byo gukiniramo, n'umupira n'amako w'intoki, iyo bari kuwukina abantu bagira ubuzima bwiza kubera siporo, gukora siporo bifite akamaro kenshi cyane birinda abantu kurwara, amashuri iyo ariho basikete abanyeshuri barayikina.

Inzu irimo amakaro, harimo n'intebe, harimo n'umuganga uhagaze, harimo n'ibikoresho bakoresha bari muri laboratwari, laboratware n'aho bafatira ibizami bareba uburwayi abarwayi barwaye.

Ubusidirizi basudira inzugi za mitarike zijya ku mashuri ya segonderi. Natwe ino aha iwacu iyo dufite amashuri dushaka gushiramo inzugi, duhamagara abasuderi bagasudira inzugi, bagashyira ku mashuri y'abasegonderi, bakigiramo, bakazajya babona uko bakinga amashuri yabo.

Inzu bari kudoderamo imyenda, harimo abadozi n'imashini. Harimo uri kwigisha abicaye kudoda, ukuntu badoda imyenda, bari kumureba ukuntu ari kubigenza. Abadozi badoda imyenda, batuma abantu bambara imyenda idoze neza.

Umugabo ari kubaka amashuri. Amashuri afite akamaro kanini, abanyeshuri bayigamo bakamenya ubwenge bikabateza imbere bakavamo abantu bakomeye, amashuri atuma abantu bagira ubumenyi bakiteza imbere.

Abafundi bari kubaka uruzitiro rumwe bita igipangu cy'amatafari ahiye, bari kubakira ku kigo kugira ngo abanyeshuri batazajya batoroka bagasimbuka igipangu bagenda uko bashaka, batabisabiye uburenganzira. Natwe ino aha iwacu ibigo by'amashuri babyubakira ibipangu, kugira ngo abanyeshuri baho babe bafite umutekano mwinshi cyane.

Nino aha iwacu tugira abubatsi bakatwubakira amazu, iyo batwubakiye amazu tubaha amafaranga bakayifashisha mu byo badafite ,noneho bigatuma biteza imbere mu byo bakora.

Abana bari muri raboratwari bafite utwo gushushanyisha, abandi bari kureba ukuntu barabigenza bari kurebera ku bantu babizi aho ku ishuri.

Abanyeshuri bari kwiga mu bigo by'amashuri, biga ibintu bitandukanye ku mibereho y'abantu n'ibintu, ntatwe inaha iwacu tugira abanyeshuri bajya kwiga mu bigo bakiga ibintu bitandukanye, abanyeshu nibo bavamo abantu bakomey,e bakavamo abayobozi, abaminisitiri n'abaperezida biga bifite akamaro kenshi cyane.

Abubatsi bari kuvanga sima bafite igitiyo, indobo, harimo n'umuyobozi ugiye kubakoresha, bari munsi y'ahantu basakaye bagiye kuhubakira n'amatafari ahiye habe ishuri.

Inzu babarizamo intebe abanyeshuri bicaraho ku ishuri, natwe inaha iwacu tugira inzu babarizamo intebe, abasogonderi bigiraho bifashisha bicaye, bakifashisha bandika. Intebe zifite akamaro kanini cyane, bazicaraho bakigiraho amasomo yabo bakabona amanota neza bitewe noho bicaye.

Ahantu bari gufotora inyubako bashaka kubaka. N’inaha iwacu， tugira abantu bafotora iyo bagiye kubaka amazu，cyangwa imihanda，baza guhafotora， kugira ngo bubake inyubako bapimye， bazi neza ko ziri buhakwirwe， bakahakorera igishushanyo mbonera， mbere yo gutangira kubaka，izo nzu cyangwa ibibuga. Gufotora bigira akamaro kenshi cyane，bituma umuntu yubaka inyubako yateguye.

Umunyeshuri ari mu ishuri ari kuvuga ibyo bamubajije, abayobozi baricaye barikumva ko ibyo avuga ari byo, bagenzi be bateze amatwi, bafite amakaye yo kwandikaho n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Natwe inaha iwacu, abanyeshuri biga muri sogonderi biga imashini n'ikoranabuhanga bigatuma bamenya ukuntu bazikoreshaga, bakaba babikaho amakuru bakeneye kubikaho, bakanareberaho indirimbo, bakanareberaho n'imipira, n'amakuru ari kuzenguruka ku gihugu.

N'inaha iwacu tugira inka, iyo zarwaye aba veterineri b'abagore n'abagabo baza kuzitera inshinge, zigakira, zakira tukaba twazigurishamo amafaranga cyangwa zikanabyara tukagurisha izo zabyaye, bigatuma twiteza imbere. Inka kandi ziduha umusaruro, zitanga ifumbire tukayikoresha tugahinga imyaka ikera.

Abantu bari kwiga kompiyuta natwe ino aha iwacu twiga kompiyuta bigatuma tumenya amakuru twari tutazi, tukaguka mu bwenge kompiyuta kandi bazireberamo amafilimi, bakazireberaho umupira , kompiyuta zifite akamaro kenshi cyane bituma tumenya ibintu twari tutazi ,tukareberamo amakuru yo mu bindi bihugu bikaduteza imbere.